Inzu isize irangi ry'umuhondo ndetse imbere hakaba harimo amatara ari kwaka y'icyatsi ndetse n'umuhondo, hakaba harimo abantu batandukanye, hakaba harimo ameza asize irangi cyangwa se afite igitambaro kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'abantu batandukanye, bambaye amakote yaba abadamu n'abapapa.

Inzu isize irangi ry'umweru hakaba hamanitseho televiziyo iri mw'ibara ry'umukara ku gikuta ndetse hakaba harimo n'amatara ndetse hakaba harimo n'abapapa n'aba mama bambaye ibintu bitandukanye imbere yabo bakaba bafite amakayi ndetse n'amacupa y'amazi bakaba bafite n'amakaramu.

Umupapa wambaye ikoti ry'ubururu mw'imbere akaba yambayemo ikoti risa ubururu ndetse imbere hakaba hateretse mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi na terefone irambitse ku meza mu ruhande rw'iburyo hakaba hari undi mudamu wambaye ishati y'umukara ndetse hakaba hateretse na raputopu cyangwa se mudasobwa ku meza n'icupa ryamazi.

Umumama ufite igitambaro ku rutugu cy'umweru, akaba yambaye amadarubindi, akaba afite ikaramu mu kuboko kw'iburyo kwe. Ku meza ariho hakaba hariho amakayi ndetse n'impapuro, mudasobwa iri mu ibara ry'umukara, ndetse mu ruhande rw'ibumoso hakaba ari undi mupapa wambaye umwambaro wiganjemo ibara ry'umuhondo, mu buryo bwe hakaba hari undi mupapa wifashe ku gikanu.

Ndabona ni umugabo ufite mikoro wambaye umupira w'icyatsi usa handitseho umutoza w'intore ndetse hari abantu bicaye bambaye imipira y'icyatsi imipira y'umuhondo basa nk'aho bamuteze amatwi, arimo ari gutanga ikiganiro kuri abo bantu kijyanye no guhugurwa.

Inzu irimo abantu batandukanye yaba abadamu ndetse n'abapapa bambaye amakoti, imbere yabo ku mezaba hakabahateretseho ikirahuri cy'amazi ndetse n'icupa ry'amazi, hejuru yabo hakaba hacanye amatara ari mu ibara ry'umuhondo ndetse nk'igikoresho bakoresha mugihe bari gupojegitinga genereta.

Umuntu w'umumama uhagaze hagati imbere y'abantu, ufite mikoro yambaye imyenda'umukara usa nk'uri gutanga inama cyangwa afite ibiganiro ayoboye ndetse imbere ye ,aho abantu bicaye bategereje ibiganiro bakaba bari muri tente y'umweru, akaba ari benshi cyane ndetse hakaba hari n'inzego z'umutekano, abadaso.

Inzu isize ibara ry'umuhondo, hakaba harimo abantu batandukanye bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hakaba hateretse ameza n'icupa ry'amazi ndetse imbere yabo hakaba hari umuyobozi uri kubavugisha, inyuma ye hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho Cooperative Leadership Seminar, bibiri na makumyabiri na kane.

Umupapa wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu, akaba afite telefone mu kuboko kwe kw'iburyo, mu kirahure hakaba harimo amagambo yandikishije mu ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'ubururu, hejuru y'iyo telefone hakaba handitse amagambo avuga ati sitepu fo mu ibara ry'ubururu.

Inzu isize irangi ry'umweru, ikaba ifite inzugi zisize irangi ry'umweru ndetse mo imbere hakaba harimo umugabo wambaye ingofero, imbere ye hakaba hateretse ameza ndetse na mudasobwa y'umukara ndetse hanze y'iyo nzu hakaba hari icyapa cyanditseho Irembo kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Inzu ikoze mu mabara atandukanye y' idarapo ry'igihugu cy' u Rwanda bakunze kwita convention center ndetse ikaba irimo amabara y' ubururu, umuhondo ndetse n' icyatsi hirya yaho hakaba hari indi nzu ndetse nini cyane y' igorofa ndetse n' ahantu bakunze kwita rompue.

Inzu yubatse mu mu matafari ahiye ikaba ifite urugi cyangwa se umuryango uri mu ibara ry'ubururu ndetse hirya yaho mu ruhande rw'iburyo hakaba hari ikintu kimeze cyubakiye kimeze nk'umunara cyangwa se ahantu bahuriza amasinga yose kugira ngo ahantu hatandukanye habone rezo cyangwa se konegisiyo.

Iki ni igipapuro kigaragaza Ayisiti savisi serivisi itanga, ihereza abakiriya, kandi bakaba hejuru yaho handitseho rura, Rwande reveni, hejuru kakaba handitseho idarapo ry'u Rwanda, iryo mu Bwongereza, bisa nk'aho iyi ngiyi ari rinki.

Bisa nk'aho hari ubucucike bw'abantu ndabona imodoka eshatu nkabona umumotari umwe nkabona n'abagabo batatu, nkabona n'undi umwe wambaye ikintu cy'ikoti ndetse agapira k'umutuku mo indani,

Inzu isize irange ry'ubururu hanze hakaba hari umutaka w'ibara ritukura wa eyateli ndetse iyo nzu ikaba ifite imiryango n'amadirishya asize irange ry'ubururu ndetse hanze hakaba hari n'ibyaba bigaragaza amerekezo atandukanye.

Ipoto y'umuriro imanitseho amasinga atandukanye ajyana umuriro ahantu hatandukanye, hasi hakaba hateye indabo cyangwa se ibiti hirya y'iyo poto, hakaba hari inzu ifite amabati ari mu ibara ry'umukara ndetse n'igipangu kiri mu ibara ry'umweru.

Umudamu cyangwa se umukobwa wambaye ingofero yo mu mutwe bakunze kwifashisha mu gihe bari kwirinda impanuka zitandukanye iri mu ibara ry'umweru, ikaba yambaye n'umwambaro cyangwa se umwambaro w'akazi uri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku wanditsemo regi ndetse akaba yambaye umwembe n'ishati y'umutuku.

Umukozi cyangwa se umuntu wambaye umwambaro w'ubururu, ndetse akaba yambaye na cya gikoresho twifashisha kugira twirinde impanuka, bakunze kwita kasike, akaba ahagaze hejuru ku ipoto, bigaragare ko ari gusana, cyangwa se ari gukora amashanyarazi ahantu yangiritse.

Bigaragara aho ngaho wagirango ni ikigo cy'amashuri aka akayira abanyeshuri bacamo kandi mbere ndimo ndabona abantu babiri bambaye ibintu by'umukara, hirya hari indabo zisa nkaho zanditseho ibintu bino hari inzu z amarangimweru ku madirisha arimo zisize amarangi y'umuntu ku madesha harimo amarangi y'umweru.

Abagabo cyangwa se abapapa bambaye imyenda iri mu ibara ry'iroza, ndetse n'ibara rya oranje bakaba batwaye amajerekani gusa bisa nkaho ari imfungwa ndetse bakaba bagiye mu bikorwa bitandukanye imbere yabo hakaba hari inzu cyangwa se igisenge kirekire cyane cy'amatafari ahiye.

Umupapa wambaye igishura kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru akaba ateruye indangururamajwi mu kuboko kw'iburyo kwe imbere ye hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda kiri mu ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Imodoka iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru yanditseho Rwanda National Police, bisa nkaho ari imodoka ishinzwe kuzimya ahantu inkongi y'umuriro ndetse bakanayifashisha mu bindi bikorwa bya Leta bitandukanye ndetse ikaba ifasha no mu nzego z'umutekano.

Inzu imanitsemo ibikoresho bakunze kwita kizimyamoto, bifashisha mu gihe bari kuzimya ahantu hatewe n'inkongi y'umuriro, ibyo bikaba bikorwa na polisi y'igihugu ishinzwe kuzimya ibintu by'umuriro ndetse ibi bikoresho bikaba bidufasha mu kwirinda inkongi y'umuriro ahantu kugira idakomeza gukwirakwira mu gihugu ndetse n'ahantu hatandukanye.

Idarapo ry'igihugu riri mu ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, hakaba ahahagaze abagabo batandukanye bambaye amakoti yaba ay'ubururu ndetse n'umukara, bisa nk'aho bari kurahira kubera inshingano.

Ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda kiri mu ibara ry'umutuku, umuhondo, ndetse n'icyatsi, gishushanyijeho inuma iri hejuru y'ijambo repabulike rwandeze, liberite koperesheni porogeresi, ndetse bikaba bigaragara ko ari ikirangantego k'igihugu.

Abantu batandukanye yaba abapolisi, abasirikare, abapapa, abadamu ndetse inyuma yabo hakaba hari abantu bambaye imyambaro y'umweru bigaragare ko bafite amaseritifika cyangwa se impamyabushobozi yabo, inyuma yabo hakaba haparitse imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Nyakubahwa perezida Paul Kagame wambaye ishati iri mw'ibara ry'ubururu bwijimye mu kuboko kw'ibumoso hahagaze undi mugabo bisa nkaho ari umuyobozi wambaye ishati iri mu ibara ry'umweru ufite igikapu mu kaboko k'ibumoso inyuma yabo hakaba hari abantu batandukanye yaba umudamu uteruye isakoshi afite n'amakaye mu ntoki.

Ahantu havunjishiriza ubwoko butandukanye bw'amafaranga turabona televiziyo imanitse ku gikuta, tukabona ubwoko bw'amamashini abara amafaranga nk'awe dusanga mu ma banki mo turimo turabona ko bashobora kuba bavunja amafaranga y'amadolari, amayero amapawunde n'ibindi byinshi bitandukanye, gusa bagi hagiye hariho igiciro cyashyizweho kuri buri faranga.

Umuhanda w'umukara bakunze kwita kaburimbo ukaba urimo imodoka bakunze kwita kwasiteri cyangwa se imodoka itwara abagenzi ahantu hatandukanye mu byerekezo bitandukanye iri mu ibara ry'umweru ndetse hakaba hari n'indi modoka yo mu bwoko bwa vatire cyangwa se imodoka ntoya nayo iri mu muhanda mu ruhande rw'iburyo bwayo hakaba hari ibiti byinshi.

Umupapa utwaye igare mu muhanda wa kaburimbo ucamo ibinyabiziga bitandukanye, akaba ahetse umufuka urimo ibintu bitandukanye ndetse inyuma ye hakaba hari imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara itwara imizigo nayo iri mu muhanda wa kaburimbo.

Umupapa wambaye ishati y'umweru, hasi akaba yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara, imbere ye mu ruhande rw'ibumoso hakaba hari mudoka itwara imizigo iri mu ibara ry'umweru, ndetse ikaba ifite amapine ari mu ibara ry'umukara, ndetse mu ruhande rw'ibumoso rw'iyo modoka hakaba hari modoka, ndetse hirya imbere hakaba hari igikamyo gitwara imizigo kiri mu ibara ry'ubururu.

Ni umuhanda usa nk'aho ari uwo mujyi, ndabonamo imodoka eshatu, hirya yaho hari indi modoka y'umukara, ndabonamo abamotari bibiri basa nk'abatwaye abagenzi ndetse n'ibiti bisa nk'aho birimo indabyo by'umutako byiza cyane, hirya wa mbona inzu nziza isa nkaho yanditseho ibintu byibishushanyo bisa nkaho hari cyo biranga.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru yanditseho kwasiteri hejuru hakaba handitseho ijambo yahu biri mu ibara ry'umutuku ndetse car biri mu ibara ry'ubururu ndetse hanze yiyo modoka mu iburyo hari umusaza cyangwa umupapa wambaye ingofero uhetse n'igikapu ndetse imbere yiyo modoka hakaba hari n'izindi modoka bisa naho ari muri gare cyangwa aho imodoka ziparika.

Umupapa wambaye umupira uri mu ibara ry'umukara imbere mu ruhande rw'iburyo hakaba haparitse imodoka iri mu ibara ritukura, ndetse ikaba ishushanyije igisamagwe bakunze kwifashisha batwara abagenzi ahantu hamwe cyangwa se ahandi, ndetse nyuma hakaba hari umukarasi cyangwa se umunyonzi utwara abagenzi ku igare.

Imodoka ndende yo mu bwoko bwa ritiko iri kwakaho amatara y'umweru ndetse ikaba iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru ikaba iri mu muhanda bakunze kwita kaburimbo uri mu mabara y'umukara ndetse inyuma yaho hakaba hari icyapa cyanwa se amasinga imiyoboro y'amasinga.

Ndabona imodoka isa nk'itwaye imizigo ndetse muri iyo modoka hejuru hicaye umugabo umwe wambaye imyenda yubururu, asa nk'uwambaye igikasike mu mutwe ndetse nkabona n'ibiti byinshi n'ipoto ry'itara ryaho bameze nkaho azitije, ibintu by'umweru ndetse harimo indabo nziza cyane.

Icyapa kiri mu ibara rutukura ndetse n'umweru, hakaba hashushanyijeho umuntu, imbere yacyo hakaba hari inzu iri mu ibara ritukura ndetse n'umweru, hakaba hariho icyapa cyanditseho Irembo kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, ndetse na Kigali fiyive eyivi i.

Icyapa gikunze gukoreshwa mu muhanda kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru hakaba harimo ibindi byapa bitatu kirimo ibara ry'umutuku n'umuhondo ndetse n'icyatsi ikiri mu ibara ry'umutuku kikaba kibuza imodoka gutambuka ahubwo abanyamaguru bakambuka.

Inzu ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, hakaba hari amadirishya cyangwa se ibyuma biri mu ibara ry'umukara ndetse kikaba kiriho amatara ndetse iyo nzu ikaba yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba isize n'irangi ry'umweru rifite amadirisha ibirahuri ari umukara ndetse no mu gipangu hakaba hateyemo indabo.

Inzu nyinshi isa nkaho ari igiturage ariko wareba hirya inyuma hasa nk'aho ari umujyi, kandi nkaba mbona imodoka ebyiri ziparitse, abamotari babiri n' numukobwa uzamuka mu muhanda ndetse n'undi mugabo wambaye umupira usa nk'ikivumvu n'ipantaro y'umweru uzamuka uza.

Umumotari uri kuri moto wambaye kasike iri mu ibara ry'umuhondo ndetse akaba ari kuri moto iri mu ibara ry'umukara n'umutuku ndetse hakaba harimo n'umweru, iruhande rwe rw'iburyo hakaba hari igipangu kiri mu ibara ry'umukara ndetse mu imbere hakaba harimo inzu iri mui ibara ry'umweru.

Ni icyapa gisa nkaho kiri kuranga supamaketi bita simba wafatiramo ibyo kunywa biryoshye cyane nka fanta, ndetse hari n'imodoka ebyiri ziparitse ahongaho z'umukara, hakaba hari inzu nziza cyane ndetse n'ikizitiro cy'ibyuma by'mweru bigaragara hano.

Icyapa gishushanyijeho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda kiri mu ibara ry'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi, hakaba ariho n'ikirangantego cy'u Rwanda hakaba handitseho ripabuliki ofu Rwanda mu ibara ry'umukara Kigali siti ndetse na Gasabo disitigiti.

Imodoka ziri mu ibara ry'umukara ziri gutambuka mu muhanda zitandukanye ndetse hakaba hari n'indi modoka iri mu ibara ry'umweru zikaba ziri mu muhanda wa kaburimbo bigaragare ko ari ahantu h'ihuriro ry'imodoka bakunze kwita rompuwe, ndetse hakaba harimo n'imiringa itandukanye cyangwa se indabo zitandukanye.

Umuhanda w'umukara bakunze kwita kaburimbo hakaba harimo imirongo y'umweru aho abagenzi bambukira cyangwa se abanyamaguru, ndetse hakaba hari n'ibyapa bigaragaza ko abagenzi bagomba kwambuka, akaba arimo kwambukamo abantu hirya hakaba hari igorofa riri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo, ucamo ibinyabiziga bitandukanye, yababa imodoka, imoto, amagare, ndetse n'ibindi binyabiziga bindi bitandukanye, yaba se n'abantu, ndetse ukaba uri hirya yaho, mu ruhande rw'iburyo akaba ari ishyamba cyangwa se ibiti bitandukanye, hirya yaho hakaba hari inzu y'igorofa, ndende.

Inzira z'amaguru zikunze gukoreshwa ahantu hatandukanye, ahantu hari ibikorwa remezo bitandukanye, yaba amashuri, ibitari, ndetse no ku ma banke, ndetse n'ahandi hantu hatandukanye mu gihugu hose. Bikaba bikoreshejwe ibikoresho bakunze kwita amapave, hirya ku mpande zaho hakaba hateye ibyatsi byo mu cyatsi ndetse hakaba hari n'indi bintu bitandukanye.

Umumotari uri kuri moto wambaye kasike iri mu ibara ry'umutuku ndetse akaba yambaye ishati iri mu ibara ry'umukara akaba atwaye amacupa abiri ya gaze kuri moto ndetse imbere ye hakaba hari imodoka itwara izindi modoka mu gihe zahuye n'impanuka cyangwa se ikindi kibazo, bikaba bigiye gukata muri rompe cyangwa se mu ikatiro aho imodoka zikatira.